Etajeri ibitsemo, ibinyobwa by'ubwoko butandukanye byiganjemo inzoga , hejuru yayo hamanitse tereviziyo iri kureberwaho, umupira w'amaguru.

Ahantu heza cyane haturitse ameza ateguweho ibirahuri bibiri n'icupa ririmo inzoga yo mu bwoko bwa champanye hari kandi n'amafunguro meza cyane nayo ateye ubwuzu.

Inzu ishushanyijeho ikirango kigaragara kumamodoka yo mubwoko bwa yundayi, ahatangirwa serivise zinyuranye, zigamije gufasha abaguze imodoka zo muri ubwo bwoko.

Irindazi ni ikiribwa cyiza gikozwe mu ifarine, gishobora kugira intungamubiri zitandukanye bitewe n'ibirungo bakoresheje mukora, nk'amata, amagi, isukari n'ibindi rikifashishwa kenshi na kenshi nk'ifunguro rya mu gitondo.

Mu mbuga nini ishashemo amapave haparitse imodoka y'umweru yo mu bwoko bwa lavafo hari n'umukobwa uri gutambuka wambaye ipantaro y'ubururu bwijimye n'ishati y'umuhondo na furari y'umutuku mu ijosi, hakaba n'imiryango ikurikiranye y'ubucuruzi.

Amacupa y'amazi akorwa n'uruganda rwa jibu atondetse mu bubiko bwabugenewe bufungishijwe ingufuri ebyiri, imbere yumuryango winjira mu iduka.

Uduti tuzi kuburyo bwa kirida bahanaguza mumenyo bakuramo ibiryo byafashemo, duteretse kumeza turi mugakombe hirya yaho hari igikuta cy'amatafari ahiye ubona gisize verine.

Icyapa kiranga ahavunjishirizwa amafaranga akoreshwa hirya no hino ku isi, kigiye kiriho ibiciro binyuranye bitewe n'ayo ariyo, hari amadolari, hari amarivesiteriningi, hari amayero, hari amashiringi y'amanyakenya, hari n'amashiriningi y'amanyatanzaniya.

Imbere y'inyubako igizwe n'amarembo yubatse mu buryo bwa kijyambere afite ahinjirirwa hakagira n'ahasohokerwa, ikaba igabanyijemo ibice bibiri byubatse mu buryo bw'amagorofa, igice kimwe kikaba cyariswe A ikindi kikaba cyariswe B.

Iduka rigurishirizwamo ibinyabugeni birimo imitako itandukanye nk'amataburo bamanika kunkuta z'amazu ibindi bikoresho bitakwa nk'amacumu uduseke inkongoro n'ibindi bikoresho ndangamuco wa Kinyarwanda.

Imbere y'umutaka w'umuhondo, hahagaze abagabo babiri bahanye ibiganza, hari kubera ibikorwa byo kwamamaza ibya sosiyete ishinzwe itumanaho ya MTN, bikaba byitabiriwe n'abaturage b'ingeri nyinshi.

Akazu ka eyateri gatangirwaho serivisi zitandukanye zirimo kubitsa, kubikuza n'izindi, mo imbere harimo umusore wambaye umupira utukura wanditseho koka kora, cyane ari kwakira cyangwa se asobanurira umukiriya w'umuzungu ufite amarinete mu ntoki, wambaye ishati y'umukara n'umuhondo.

Abagabo harimo n'Umuzungu, bamwe bambaye imipira y'umuhondo y'ikigo cya MTN, baje kwaka serivisi ku kazi ka MTN, aho bashobora kuba babikuza amafaranga, bakanayabitsa mu buryo buboroheye.

Akazu ka emutiyeni gakorerwamo serivisi zayo, hicayemo umukobwa wambaye ishati y'igitenge. Imbere y'ako kazu hari umwana urimo uratambuka. Ndabona n'akabokisi k'umuhondo.

Akazu ka MTN, ahatangirwa serivisi zitandukanye zirimo kubitsa, kubikuza no gukoresha swapu, hahagaze umukiriya umwe uhetse igikapu cy'umukara n'umupira w'umweru, ari kwakirwa n'umukozi ubishinzwe.

Ipikipiki yicayeho umumotari wambaye kasike y'umutuku umupira w'umuhondo n'ipantaro yirabura ihetse igisanduku cy'umuhondo gifiteho n'ibara rya oranje gitwarwamo ibicuruzwa bitandukanye babishyira abakiriya babiguze.

Inzu irimo ibikoresho byose byifashishwa mu nzu, birimo intebe zo kwicaraho, utubati n'ibindi, irakodeshwa amadorari magana atanu mirongo itanu buri kwezi, ikaba iherereye i Kigali.

Munzu nziza cyane irimo imitako itandukanye mugice cyayo gitegurirwamo kikanafatirwamo amafunguro umugabo ari guha ikaze umugore kugirango bicare biyakire.